Abantu benshi bari mucyumba cy'inama bamwe baricaye abandi barahagaze, bambaye imyenda isa ubururu, umweru, umukara ndetse n'umutuku n'ingofero. inyuma yabo hari igitambaro cyometse ku gikuta kiriho amagambo.

Umusore muremure wambaye ishati afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutse imbwirwaruhame, impande ye hicaye abaturage bamuteze amatwi, bari mu cyumba gifite amadirishya asize irangi ry'icyatsi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hateretse ameza ariho ibitambaro by'umuhondo ,iyobowe n'umupolisi ufite indangururamajwi ari gutambutsa ikiganiro ,ndetse harimo n'abasirikare.

Umugabo wambaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umukara n'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa ikiganiro, inyuma ye hari intebe ndetse n'inzu yubatse.

Umupolisi ufite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame, impanda ye hahagaze abagabo babiri ndetse n'ibitambaro bibiri bimanitse inyuma kimwe gisa ubururu, ikindi gisa icyatsi.

Ababyinnyi bambaye imipira y'umutuku n'imikenyero y'umweru, bambaye amayugi mu maguru impande yabo hatatse imitako bigaragara ko ari ubukwe bwahabaye n'abantu bambaye amakositimu.

Ababyinnyi bambaye imikenyero isa icyatsi bari kubyina, imbere yabo hicaye abantu benshi mu ihema risa umweru, hatatseho ibitambaro mu mabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu.

Ababyinnyi bari kubyina bateze amaboko, bambaye imikenyero, mu ijosi bafitemo utunigi tw'umweru ndetse n'agatambaro mu gahanga, inyuma hari abaririmbyi na bo bambaye imikenyero bafite n'indangururamajwi.

Umukobwa wambaye igisarubeti inyuma cyanditseho imibare ndetse n'amagambo agaragaza ko ari ikigo cy'amashanyarazi n'ingofero y'umweru mu mutwe, ari gukanda ku kamashini gashyiramo umuriro kometse ku nzu.

Amazu y'ubucuruzi ari ku murongo yose asize irangi ry'umuhondo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda n'abandi bicaye imbere y'amazu, hirya hari urutoki ndetse n'ibiti.

Umuhanda w'igitaka impande hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'abantu bari gutambuka, insina hari n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi zinyura mu kirere.

Umudozi uri kudoda imyenda imbere ye hari imashini ebyiri ndetse n'umugozi umanitseho ibitenge by'amoko atandukanye, ku rukuta hariho igishushanyo cy'imyenda y'imideri itandukanye.

Umugabo wuriye hejuru ku ipota ry'ibyuma, yambaye ingofero, ijire y'icyatsi, ipantaro n'inkweto by'umukara, ari gukora insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye imyenda y'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha RIB ufite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame, imbere ye hicaye abaturage benshi ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hubatse inzu hari insina ndetse n'ibiti.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi, ari gutanga imbwirwaruhame. Imbere hicaye abasirikare, ku meza hateretse amazi yo kunywa. Imbere hatatse ibitambaro biri mu mabara y'idarapo ry'igihugu.

Abagabo bahagaze n'umugore wambaye ikanzu y'umuhondo ku ruhande, bari gucana urumuri harimo n'umusirikare n'umupolisi, inyuma hari amahema yicayemo abantu.

Umuhanda ku ruhande hari icyapa gisa umutuku n'umweru ndetse n'umukara, impande hari amazu asize irangi ry'umuhondo n'abantu bicaye imbere yaho ndetse n'ibiti.

Imodoka nini zitwara abagenzi, imbere yabo hari umuntu ukata amatike ndetse n'abagenzi bari gutega, inyuma hari inyubako bakatishirizamo amatike ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bari gutambuka mu muhanda, harimo abagabo bambaye amakote na karuvati ndetse n'amadarubindi, harimo n'umugore imbere yabo harambitse ibitanda, intebe, ndetse n'amazu.

Umupolisi ufite indangururamajwi ari gutambutsa imbwirwaruhame, imbere ye hahagaze abasore babiri bafite udupapuro mu ntoki, inyuma hari ihema ririho ibitambaro riri mu mabara y'ibendera ry'Igihugu.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bambaye imyenda isa y'ubururu, icyatsi, n'umweru. Hakurya hari inyubako zisakaje amabati ndetse n'ibiti.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bari gukina bambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi n'amasosogisi y'inkweto, inyuma y'ikibuga hicaye abantu benshi bari kubareba.

Ibikombe ndetse n'imidari by'ishimwe biteretse ku meza, hariho imitako mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Inyuma yabyo hicaye abagabo bambaye amapantaro n'inkweto zifunze.

Urutonde rugaragaza amakipe yatsindanye mu gikombe cy'Umurenge Kagame Cup, hariho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, ni amakipe yo muri Nyagatare.

Abantu bari muri siporo bambaye imyenda yose isa iri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru bambaye amasogisi n'inkweto, impande hari ikibara ndetse hazengurukijwe n'urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Abakinnyi b'umupira ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu bwijimye, handitseho n'umweru n'amasogisi y'umweru, indi kipe yambaye umuhondo, inyuma yabo hari amazamu ndetse hari n'ingo zabantu zituwemo.

Abamotari bicaye ku mapikipiki, impande hari urujya n'uruza rw'abantu bafite ibikapu mu ntoki abandi babihetse, inyuma yabo hari inyubako.